Abagabo n'abagore bicaye ahantu hamwe mu cyumba gitangirwamo inama n'amahugurwa kandi imbere yabo hicaye umugore n'umugabo, umugabo ari gutanga inama. Ku meza he hariho amazi yo kunywa.

Abantu benshi bahagaze hafi y'umuganga uri kuvura umuntu wagize ibibazo bitandukanye, akaba ari guhabwa ubuyobozi bw'ibanze, kuko yakoreweho ibibazo bigendanye n'impanuka. Ari kumwe n'abantu bari kumufasha kuri icyo kibazo cy'uwo muntu.

Abagabo bane bashinzwe ubutabazi bw'ibanze ndetse no gutabara imbabare, bafite agakoresho bahekamo umuntu wagize ububabare, bagiye kumufasha kugira ubuvuzi bwihutirwa kugira ngo avurwe hakiri kare.

Imodoka izwi nko gutwara abarwayi ndetse igatwara nk'ibikoresho by'abarwayi izanye bimwe mu bikoresho kwa muganga bizajya byifashishwa n'abarwayi barwaye indwara zitandukanye ndetse n'abagize ubumuga.

Abantu batanu harimo umugore umwe bari kwandika ndetse kandi imbere yabo ku meza hari amazi ari mu dupipiri. kandi ni abaganga, bari kwigira hamwe uko batanga serivisi.

Umugabo uryamye ku gitanda kwa muganga, akaba apfutse ukuboko ari muri serumu ndetse ararwaye yambaye imyenda itandukanye nk'ijiri ndetse kandi akaba yagize ikibazo.

Abantu benshi bari ahantu hamwe biganjemo urubyiruko, bahagaze ahantu hamwe nk'abari kwifotoza kandi bari bari hafi y'ahantu hari amukaye imbere yabo ndetse n'amazi yo kunywa ubwo bagiye imbere mu buryo bwo kwifotoza nk'ifoto y'urwibutso.

Urujya n'uruza rw'abantu bahuriye hamwe, bari hafi y'ahantu bari gutanga amaraso kandi hari kumwe n'abayobozi bagiye batandukanye; abadaso ndetse kandi harimo n'abaganga.

Icyumba kinini cyane cy'ubuvuzi kandi kikaba kirimo ibikoresho by'ikoranabuhanga, ibitanda bigezweho ndetse kandi gikoreshwa mu buvuzi kugira ngo barebere hamwe uko bafasha abarwayi.

Abantu babiri umwe afite ikigaragara nk'impetso yakoreshwaga cyane mu guheka umurwayi ujyanywe kwa muganga ndetse kandi bamushyize hasi kugira ngo abanze aruhuke. Ni umuntu mwiza kandi barunamye bagiye kuzamurira rimwe iyo ngobyi.

Abantu bambaye amajiri ashinzwe gutanga amaraso, kandi bakaba bari hafi y'ahantu hameze nk'ahabereye isoko. Kandi bari hafi y'ahantu hateraniye abantu benshi, bagiye kwakayo amaraso.

Abaganga bambaye imyenda y'akazi bifurebye bambaye ibintu by'amashashi ndetse bambaye n'amakasike y'amashashi n'udupfukamunwa ndetse kandi bari gukurikirana umurwayi bazanye.

Igitanda kinini cyane gikoreshwa mu buvuzi ndetse kikaba gikoreshwa n'amashanyarazi kandi ni igitanda kigezweho utapfa gusanga ahandi gikoreshwa cyane cyane mu bitaro.

Umugore ndetse n'umugabo, bafite seritifika, bari kuyifotorezaho, bayihawe mu gihe bavuye abantu neza kubera gutanga serivisi neza, mu ishami ry'ubuvuzi.

Imodoka iri guturuka mu ivuriro ry'akarere ka Nyagatare. Ni ivuriro rifite inyubako ndende kandi ikagira n'ibikorwa byiza n'ibigega bikurura amazi, kandi hari icyapa kigaragaza ko ari ivuriro ry’Akarere.

Umuganga uri gushyiramo amazi mu urushinge kugira ngo abashe kurukoresha, arikurukorera isuku, ni umuganga wambaye ingofero yo kwa muganga ndetse n'umwenda w'akazi w'icyatsi kibisi.

Igikoresho cy'ikoranabuhanga cyitwa mudasobwa gikoreshwa ku ivuriro kugira ngo barebe uko umurwayi ameze, niba bamufotoye yakomeretse bakareba uko yakomeretse, yababa hanze cyangwa mo imbere mu magufwa.

Umugore mwiza cyane wambaye imyenda y'ibitenge wifashe ku itama uri gusekera umwana uri ku buriri, bari kwa muganga umwana yicaye ku buriri ndetse ku gitanda cyo kwa muganga.

Imbaga y'abantu benshi higanjemo abagore, abagabo kandi baje gufata serivisi z'ubuvuzi kwa muganga, bafite telefone ndetse kandi n'amakayi hagati yabo.

Imbaga y'abantu bakomeye basa neza bambaye neza harimo abagabo ndetse n'abagore bakaba bahagaze ku murongo bari kwifotoza ndetse kandi bahagaze imbere y'imodoka.

Abantu bari mu ivuriro, harimo abarwayi baryamye ku bitanda byo kwa muganga ndetse hakaba n'abaganga bari gufasha abarwayi, bari mu cyumba cyabuhariwe cyo gufasha abarwayi kandi muri aba barwayi harimo n'abari kugendera mu tugare biga uburyo ki bagenda.

Ivuriro ryiza ndetse rikaba rifite ibiti bikurura umuyaga kandi rikaba ririho abantu bicaye, baje kwivuza no gufata serivisi zindi mu kwivuza cyane.

Ahatangirwa serivisi z'ubuvuzi ndetse n'ahatangirwa uburyo bwo kwivuza harasa neza, hari inyubako nziza kandi ziteye ubwuzu, hari ubusitani bwiza bushashagirana.

Umuganga uri kwita ku murwayi ndetse kandi akamuha ubuvuzi bwo akeneye, umurwayi arwaye umuganga na we ari kumusuzuma anamushyira icyuma ku mutima kugira ngo yumve ko umutima we utera neza, afite ibikoresho byinshi by'ikoranabuhanga ari gukoresha.

Icyumba gitangirwamo serivise z'ubuvuzi. Kikaba ari icyumba kiba kirimo ibikoresho by'ikoranabuhanga, dore ko aricyo gikoreshwa mu gusuzuma, kureba ndetse n'ibindi, akaba ari raburatwari. Ni icyumba kirimo amazi ndetse n'udupipiri turimo ibintu bigiye bitandukanye n'ibintu bomekaho ku gisebe.

Laboratwari ibirimo ibikoresho byinshi byifashishwa mu buvuzi, haba umugore cyangwa se umugabo, wambaye ibikoresho bya ga byifashishwa, uri kureba ibikoresho yakwifashisha mu kurura.

Umuganga uri muri laboratwari, ari kureba ibyo yakoze ko aribyo kuko ari kurebera muri telesikope mu bikoresho by'ikoranabuhanga, areba ibyo asuzuma ko byaba ari ukuri.

Abasore babiri b'intarumukwa, bafite mudasobwa imbere yabo, bariho barasuzuma ko abarwayi bavuwe neza kandi bari muri laboratwari, ishinzwe kugira ibikoresho bitanga ubuvuzi.

Icyumba kiriho ibikoresho by'ikoranabuhanga ikaba ari laboratwari itunganya amaraso igihe avuye ahantu hagiye hatandukanye, harimo ibikoresho nka za telesikope ndetse n'ibindi bishamikiye kuri yo.

Umuganga wambaye ga mu kuboko, akaba afite urushinge, amaze kujomba umuntu ari muri laboratwari ahuza ayo maraso ngo arebe icyaba kirimo muri ayo maraso.

Umubyeyi uteruye mwana ndetse akaba yamubyaye muri iyo minsi, ari kumutereta, amusekera ndetse kandi yamuteriye mu bitambaro bishyashya, bisa neza.

Umwana mutoya bari kurebera mu ryinyo, ashobora kuba yagize ikibazo ndetse kandi ku ruhande rwe hari umupolisi wambaye impuzankano z'akazi. Ndetse kandi ari kurebwa n'umugabo wambaye ijiri y'umukara.

Urujya n'uruza rurimo abantu batandukanye ndetse n'abagabo, inyuma hariyo abana bariho barakina ndetse kandi imbere y'abo bagabo hari umugabo ufite mikorofone uri kugira icyo avuga ku bantu bitabiriye icyabateranyirije aho ngaho.

Abayobozi b'abanyacyubahiro bicaye mu itente ndetse bari kubwirwa ku bigendanye n'ubuzima bw'umwana kandi n'umugore, bari gufashwa n'umuntu w'umugabo, uri kubigisha higanjemo kandi n'abapolisi bambaye impuzankano z'umukara.

Umuganga uri kwita ku mubyeyi wabyaye; ari kumufasha guca imigozi yo mu nda ifashe umwana; kandi uwo mubyeyi ari kumwe na mama we uri kumufasha kwakira ndetse no guha serivise uwo mwana babyaye.

Abagabo babiri bambaye impuzankano z'akazi, bari kumwe n'abana batoya cyane biga no mu mashuri abanza ndetse bari gufashwa ku bibazo bafite kugira ngo bibe byakemuka ndetse kandi bari kumwe n'abarimu beza cyane.

Abantu bateraniye hamwe bari kwiga ku bigendanye n'ubuzima bw'umuntu ndetse n'ibibazo aba afite, ibibazo by'ubuzima bahura na byo, bari kwigishwa n'umugore bafite mikorofone kandi abandi barakurikiye, ni abashinzwe ibigendanye n'ubuzima.

Ubuzima ku mwana ni kimwe mu bituma umwana iyo yitaweho agira ubuzima bwiza ndetse kandi atwafashisha tw'umwana kugira ngo abashe kuba yakwiga neza akagira ubuzima bwiza bita mfasha.

Imbaga y'urubyiruko, abana, abagore, abagabo ndetse bakaba bari mu ihema ahantu bari kwiga ku bigendanye n'ibibazo by'ubuzima ndetse ahantu bicaye hari utwatsi twiza.

Abantu batatu, umwe ni umwanditsi ari gufasha abantu babiri baje kumusabaho serivisi, abantu babiri ni umusaza n'umugore baje gusaba ubufasha ku bigendanye n'ubuzima bwabo.

Imbaga y'abantu benshi bicaye mu ntebe kandi bakaba bicaye mu busitani, bicaye mu buryo bw'uruziga bari kuganira banungurana ibitekerezo, ku bijyanye n'ubuzima cyangwa se gufasha abafite ibibazo by'ubuzima.

Abantu benshi bicaye ndetse kandi bakaba barimo abahagaze bafashe umuntu wagize ikibazo cyo mu mutwe, akaba ajyanywe ahantu heza kugira ngo abashe kuba yaruhuka.

Icyapa kigaragaza ahantu hatangirwa serivisi ku bantu bahuye n'ihohoterwa, ndetse ikaba ari isantere ya Nyagatare. Kandi ni ikigo kinini gifite n'ubusitani busa neza.

Abantu batatu bafashe umuntu wagize ikibazo cyo mu mutwe kubera ibintu byabaye ndetse kandi agiye guhabwa serivisi z'ubuvuzi no gufashwa, ajyanywe hafi ahantu hari abaganga.

Imbaga y'abantu benshi biganjemo abagabo ndetse n'abagore, bari kwigishwa ibyiza byo kuba batera imbere intambwe mu kubana neza ndetse n'abaturage, barimo barigishwa n'umugabo uhagaze imbere y'ibimenyetso ndetse n'ibitambaro bifite idarapo ry'igihugu cy'u Rwanda.

Abantu harimo abirabura ndetse n'abazungu bambaye impuzankano bari kwifotoreza ku cyapa cyanditseho ngo "ikigo cy'urubyiruko cya kinzuzi" bamaze gutangayo amahugurwa ajyanye n'ubuzima n'imyororokere.

Urubyiruko rwinshi, rwambaye impuzankano zisa z'icyatsi kibisi, bari mu muhanda kandi bafite icyapa cyanditseho ngo duhamye kubaho neza, twita ku buzima bwacu ndetse bwa buri wese.

Abantu benshi bateraniye ahantu hamwe ,bicaye baje gufata serivisi z'ubuvuzi harimo aba bafite ibibazo by'ubuzima, kandi baje kugira ngo baganirizwe. Higanjemo urubyiruko abagabo ndetse n'abagore bahetse abana.

Iduka ricuruza imiti yo kwa muganga. Ni iduka ricuruza ibinini bya purasitamoro bizwi nk'umutwe by'amagiripe ndetse n'indi miti igiye itandukanye.

Ni farumase cyangwa se iduka ricuruza imiti, hari yo umugore uri guseka ndetse akaba ari we ucuruje, ni iduka ricuruza imiti akenshi rigurirwamo n'abantu bavuye kwa muganga kugira ngo ribafashe.

Iduka ricuruza imiti kandi ikunzwe kwifashisha ku bantu barwaye indwara zitandukanye akenshi bayigura iyo bahawe n'uruhushya no kwa muganga bakajya kugura imiti muri farumasi.

Uducupa dusa n'umweru ndetse kandi hakaba hari udukarito n'uducupa dutukura, twose ni tumwe mu dukoresho tubitsemo imiti ndetse iyo miti ikaba iri mu iduka ry'imiti ahazwi nko kuri farumasi.

Ibinini bivura ndetse bikaba byanarinda umuntu urwaye. Bikaba bicururizwa mu iduka rya foromasi, umuntu wese ubishaka cyangwa se ubyifuza kubibona, ajyayo kubigura.

Umuntu ucuruza muri botike, akaba acuruje imiti ndetse iyo miti ikaba ivura, umuntu wese uje kuyireba arakira, akaba ari umucuruzi uyicuruje, imbere ye afite mudasobwa.

Iduka ririmo umugabo ucuruje, ni iduka ricuruje imiti itandukanye, yaba iyo mu dukombe, iyo mu ducupa ndetse n'iyo mu dukarito. Akaba ari umucuruzi ucuruje, akaba ategereje abakiriya.

Iduka ricuruza imiti ndetse haba harimo imiti igiye itandukanye; ivura umutwe, ivura malaririya, ivura amagiripe n'iyindi itandukanye. Kandi haba hari iri mu ikarito, mu ducupa, mu dukombe n'iyindi.

Iduka ririmo umugabo wambaye itaburiya ndetse kandi ni iduka ricuruza imiti itandukanye yo kwa muganga kandi uwo muganga afite ikayi ariho arareba abatanze ndetse n'abishyuye imiti.

Imiryango ibiri, umwe urakinguye, undi urafunze ariko ukaba itangwamo serivisi ebyiri zisa. Ni ugutanga serivisi z'ubuvuzi mu buryo bw'iduka bwa foromasi.

Iduka ricuruje imiti myinshi. Harimo iri mu dukombe, mu ducupa, mu dukarito ndetse n'ibindi. Ni iduka rinini cyane, ugize ikibazo uturutse kwa muganga cyangwa se ugize ikibazo hanze, uza akagura umuti, aho muri iryo duka.

Iduka ricuruza imiti, rikaba ricuruza imiti ikomoka kwa muganga kugira ngo ifashe umuntu uwo ari we wese, kubona imiti. Ni umugore ucuruje, akaba ari kumwe n'undi mugore hafi aho.

Abantu benshi harimo n'abashinzwe umutekano nk'abadaso bambaye impuzankano z'icyatsi kibisi, imbere yabo hakaba hari abafashe icyapa cyanditseho ukwezi kwahariwe ibikorwa bya polisi mu bihumbi bibiri na cumi n'icyenda.

Urubyiruko rwambaye impuzankano y'imipira ndetse bakaba basa neza, harimo kandi n'abashinzwe umutekano nk'abasirikare n'abapolisi bambaye impuzankano, kandi bakaba bafite ibyapa byanditseho agakingirizo imbere yabo.

Urujya n'uruza rw'abantu bateraniye hamwe bari kureba ibirori biri kubera imbere. Harimo abafite mikorofone, nk'abari gutaramira abitabiriye. Kandi abandi barishimye cyane, barishimye kugeza n'aho bazamuye amaboko.

Abana benshi cyane higanjemo abahungu, abakobwa ndetse kandi hakaba hari icyapa kizamuye, kikaba ari ikirori cyajemo abahanzi baje kureba kuko kitabiriwe cyane.

Indabo, ibyatsi ndetse n'utubuto tugiye turi mu dusahane, akenshi iyo udufashe ukadukuramo indi miti, tubasha kuba twavura abarwayi.

Ibibabi by'icyatsi kibisi, indabo se, byose birafatwa bikaba byakurwamo imiti ivura. Iyo bifashwe birasekurwa hanyuma bakavanga n'amazi, akavamo umuti.

Ukuguru k'umuntu, ufite ikibazo cy'uburwayi bw'imitsi. Yishushanyijeho nk'ibiheri cyangwa se utubyimba. Ni umuntu wivurisha ibimera cyane cyane ibibabi cyangwa imbuto.

Umusaza w'imvi z'uruyenzi, akaba afite umubiri w'ubusaza . Akaba afite nanone ibibabi binini by'icyatsi kibisi kandi agiye gukoramo umuti ,ugashobora kuvura.

Igiti kimeza, kizwi cyane nko kwitwa igitovu. Akenshi kigira umumaro munini wo kuba cyavura uburwayi kandi kikanaribwa kuko kiba ari ubwatsi ku nyamaswa nk'ihene n'izindi.

Umusore ufite umutwe munini wambaye agapfukamunwa, yambaye ikarita y'akazi, kandi yambaye itaburiya, n'ikarita y'akazi kajyanye n'ubuvuzi, ndetse kandi ari kwandika abantu bagiye guhabwa imiti.

Abagore bicage bacuruje imiti ituruka ku bimera, ni abagore b'ibikwerere bakuze ndetse babyibushye. Bacuruje imiti ikomoka ku bimera, harimo ibiti ndetse n'ibindi bikozwe mu byatsi.

Igihingwa cyitwa umuravumba, kikaba gifite umumaro munini cyane wo kuvura abantu bahuye n'ibibazo by'uburwayi, nk'inkorora ndetse umutwe n'izindi ndwara zigiye zitandukanye.

Abarwayi babiri bicaye ku gitanda cy'abarwayi, bari kuganira ndetse kandi barishimye. Hagati yabo harimo umuganga uri kwegeranya imiti ngo abafashe kuba yabaha kugira ngo babashe gukira bagataha.

Uducupa twinshi turi ahantu hamwe dupfundikiyeho imifuniko isa kandi utwo ducupa tukaba tubitse imiti itandukanye ikiza kandi ikanarinda abantu bafite ibibazo by'ubuzima kandi iyo miti itunganyirizwa mu ruganda.

Ikibabi gishashagirana gisa n'icyatsi kibisi ndetse kikaba kiri hafi y'icyapa, cyanditseho ikigo nderabuzima cya Nyagatare, ibikorwa byo gusuzuma no gufasha, ababana n'ubwandu bwa virusi itera Sida. Ni hafi y'ibiti birebire.

lnzu izwi cyane nko gutangamo serivise, ikaba ari ikigo nderabuzima. Hicaye abantu baje kwivuza ndetse hariyo n'umuganga uri kubafasha, ni inzu ifite ibara ry'ubururu.

Imbaga y'abantu benshi cyane biganjemo urubyiruko ndetse kandi harimo abaganga bari gusuzuma, banapima indwara ndetse banapima umuriro umuntu afite ndetse kandi hari abapolisi bambaye impuzankano.

Abantu benshi bambayeuzankano y'icyatsi kibisi kandi bakaba begeranye n'umusirikare uri guca akantu kaziziritse ku kintu kandi kuruhande rwabo hari ihema ry'umweru.

Abagore babiri ndetse n'umugabo umwe, umugore umwe ari gutanga ibyangombwa kugira ngo abashe kuba yakwivuza ndetse abo bagore bafite abana bateruye baje kwivuza gufata imiti ndetse banavuza abo bana.

Abagore, abagabo ndetse harimo n'abandi bambaye impuzankano z'amataburiya, bakaba bari kugenda bishimye, bagiye mu gikorwa cyabo cyabagenewe nk'abanyabuzima batanga ibigendanye na serivisi z'ubuzima.

Imbaga y'abantu benshi harimo abasore, abagabo, abagore ndetse n'abakobwa, bakaba bari kwifotoreza, imbere y'ivuriro ryanditseho Gira ubuzima.

Umugore wambaye neza iribaya ryiza ndetse akaba afite n'imareti mu ntoki kandi akaba avuye ku ivuriro ritangwamo serivisi z'ubuvuzi ku kigo nderabuzima.

Icyumba kiza kimeze neza kikaba gishashagirana gifite ibitanda byiza, ni ahantu hatangirwa serivisi z'ubuvuzi ibitanda biryamwaho n'abantu bafite ibibazo byo kudakira vuba uburwayi.